Abantu bahagaze hamwe, bambaye udupfukamunwa, bateye umurongo, bambaye n'amataburiya, bari imbere yinyubako, ubona ko ari nziza.

Abantu bateraniye hamwe, bakikije ameza, barimo kuganira, bahuje umutima, ubona ko bashaka kugira icyo bageraho.

Umugezi ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti n'ibyatsi, imbere yaho hari inzu, hari umwana urimo kunywa amazi avomesha ibiganza.